Abantu benshi cyane bateranye birimo biragaragara ko wagira ngo bari mu nama, kuko barimo barareba imbere, aho imbere hari ameza asa umutuku, biragaragara ko hari abandi bantu bicaye batagaragara aribo bayobozi cyangwa se barimo barabagezaho ibyo barimo baraganiraho.

Abantu benshi cyane batandukanye bicaye, bicaye ahantu mu gisharagati kigiye gifite inkingi zikomeye hanyuma imyambaro igiye izengurutse icyo gisharagati biragaragara ko ari ibendera ry'u Rwanda. Hanyuma rero ibintu nk'ibingibi bikunda kuba cyane cyane nka serivise za Leta nk'urugero nk'inama za FPR cyangwa se n'izindi serivise za Leta zitandukanye.

Abantu bicaye mu cyumba cy’inama cyangwa se bitabiriye inama y’ubuyobozi, bigaragara neza ko bicaye imbere y’ameza manini atukura, barimo barakurikira cyangwa bitabiriye inama, harimo abagore n’abagabo bambaye imyenda y’ubunyamwuga, bigaragaza ko ari inama ifite ireme ry’ubuyobozi cyangwa iy’ubucuruzi. Ku meza hari amazi yo kunywa ndetse n’ibindi bikoresho byifashishwa mu nama zitandukanye, nk’udutebe n’amatangururamajwi.

Abantu bicaye mu byerekezo bitandukanye, iburyo n'ibumoso, hari intebe kandi bicayeho ndetse bafite n'amazi yo kunywa bose, hari umuntu kandi urimo urababwira kuko afite indangururamajwi, wagira ngo ni nk'inama cyangwa se igitekerezo arimo aratanga akaba abiyoboye kuko birimo biragaragara ko bose bamuhanze amaso ndetse bari no kumva ibyo arimo arababwira, si ibyo gusa kandi hari igikoresho cyitwa porojegiteri, dukunda kwifashisha mu kugaragaza amashusho, by'umwihariko cyane cyane mu nama cyangwa se hari ibyo arimo aravuga bitandukanye.

Abagabo batatu bagiye bafite amamashini imbere yabo sibyo gusa kandi hari n'undi mugabo wicayemo hagati ku ntebe y'umukara yambaye ikote ry'umukara n'ishati y'umweru ndetse na karuvati, biragaragara ko ari we muyobozi, hanyuma umugabo umwe muri abo bagabo batatu arimo arareba imbere biragaragara ko hari inyigisho barimo barahabwa cyangwa se wenda hari ikintu barimo barareba imbere bitewe n'ibyo barimo baraganiraho.

Ameza atandukanye agiye yicayeho abantu batandukanye ku mpande zitandukanye, hari umugabo kandi uhagaze bimo biragaragara ko ari kuvuga abandi bose bamuteze amatwi ibyo arimo aravuga, abo bantu bose kandi bafite amamashini abenshi imbere yabo hanyuma biragaragara ko ishobora kuba ari nk'inama y'akazi barimo baraganiraho kugirabe barebe uburyo banoza neza akazi kabo.

Ihuriro ry'abantu benshi cyane bose bicaye ahantu hamwe imbere yabo hari umukobwa wambaye ipantaro y'umukara umupiramaboko maremare w'umweru kandi ateza igitambaro mu mutwe ndetse afite n'indangururamajwi mu ntoki ze, birimo biragaragara ko arimo aragenda abaganiriza ku cyabateranyiriza aho ngaho cyangwa se ku cyo bashakaga kuvuganaho biragaragara ko ariwe umuyobozi w'ikiganiro.

Umugabo uhagaze ufite ikaramu mu ntoki ze, yambaye kandi amarinete, hanyuma asa nuri gutanga ikiganiro cyangwa ibisobanuro imbere y'itsindaa ry'abantu. Hari abandi bantu batatu bicaye ku meza basa nabari kwandika cyangwa gukurikira ibyo avuga, hanyuma inyuma yabo hari icyapa cyanditseho amagambo y'icyongereza agaragaza ubutumwa bwo kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina, bigaragaza ko iyi nama cyangwa amahugurwa ashobora kuba yarekeye uburenganzira bwa muntu cyangwa kurwanya ihohoterwa.

Abantu benshi cyane bicaye kuntebe birimo biragaragara ko barimo barareba imbere, bareba nk'umuyobozi wabo cyangwa se umuntu urimo urababwira nk'imbwirwa ruhame. Wagirango kandi cyane bayirimo nko munama y'ubucuruzi bugiye butandukanye kuko bose barimo barareba kandi bashishikariye kugira icyo bamenya cyangwa se wagirango ni nk'inama runaka yateranye irimo irigisha serivise zitandukanye.

Ipoto rishinze iruhande rw'umuhanda, hejuru hariho itara ndetse n'insinga zijyana amashanyarazi ahandi munsi, hari umugabo uri gutambuka wambaye umupira n'ipantaro y'umukara.

Inama isanzwe cyangwa inama mpuzamahanga irimo abantu batandukanye abantu bari kumeza bareba imbere bafite imyifatire y'ubushobozi bigaragara ko bari gukurikira ibiganiro cyangwa ibiganiro by'ingenzi bi kubera aho hantu. Harimo kandi abagore n'abagabo hamwe bambaye amakoti'ubucuruzi n'abandi bafite imyenda yerekana umuco. Hari amazi ku meza byerekana ko ari inama y'igihe kirekire ishobora kuba ijyanye n'ubucuruzi n'iterambere cyangwa ubufatanye mpuzamahanga.

Inama cyangwa se ibiganiro biri kubera mu cyumba cy'inama, abantu batatu bicaye imbere ku meza, bafite indangururamajwi mu ntoki za bo, kandi umwe muri bo wambaye umweru asa n'uri kuvuga. Hari inyandiko ku meza bigaragaza ko hari inama, ifite gahunda cyangwa ibiganiro, bifite ibisobanuro byihariye.

Ameza maremare y'ikirahure hari kandi intebe zigeze zicayeho abantu mu kaboko iburyo ndetse ntakibumoso kayo ku meza hari n'umuntu wicayemo hagati biragaragara ko ari umuyobozi, abari mu kaboko k'iburyo bafite indangururamajwi hanyuma mukaboko k'ibumoso bafite amakaramu n'amakaye barimo barandika sibyo ese ibyo gusa kandi, ku meza hateretseho ibyo kunywa hariho amazi ndetse n'umutobe kuri buri muntu birimo biragaragara ko barimo baraganira ku bintu bitandukanye, hanyuma abari ku ruhande rw'iburyo bafite indangururamajwi bakavuga abandi bakandika.

Icyumba bigaragara ko cyabereyemo inama nziza kandi rwose abantu biyubashye kuko bambaye neza, bambaye amakote, biragaragara neza cyane rwose ko baberewe, si ibyo gusa bagiye bafite ibyo kunywa harimo imitobe ndetse n'amazi, hari umugabo kandi uri imbere ufite indangururamajwi imbere ye arimo aravuga, hanyuma abandi bamuteze amatwi bari no kumureba bishatse gusobanura ko ari umuyobozi, hari icyo arimo arabagezaho cyangwa se ababwira.

Abantu bicaye ahantu hamwe barimo barareba imbere, bigaragara ko hari icyo barimo baragezwaho cyangwa se bari mu nama, kuko kino cyumba kirasa nk'ik'inama, hari umugabo kandi uhagaze wambaye imyambaro myiza ya kinyamwuga, biragaragara ko hari icyo arimo aravuga cyerekeranye na RURA, kuko hasi turimo turabona ijambo RURA kandi iki ni ikigo cya Leta gishinzwe kugenzura, no kugenga imirimo y'ingenzi mu Rwanda, harimo itumanaho, ingufu z'amashanyarazi, ibikomoka kuri peteroli, amazi, isuku, ubwikorezi rusange n'ibindi bikorwa bigiye bifitiye igihugu akamaro.

Ihuriro ry'abantu benshi cyane batandukanye bose barimo barareba imbere bishatse gusobanura ko ari umuyobozi uri imbere yabo cyangwa se umuntu uri murabaganiriza ibyabateranyiririza aho ngaho. Wagirango ngo ni nk'abantu baba bari mu mahugurwa, akenshi iyo abantu bari mu mahugurwa nibo baba bateranye bose bategereje kumva ubutumwa bagenewe uwo munsi, bitewe n'ikintu nyamukuru cyabateranyije.

Abantu bicaye ahantu hamwe bose bambaye umwambaro umwe usa ari mupira wo hejuru amaboko magufi, bagiye bafite kandi amazi yo kunywa, rero iyo abantu bambaye ibintu bisa duhita tugomba gutekereza ko bahujwe n'ikintu kimwe ndetse n'umugamba umwe, kuko birimo biragaragara ko barimo barareba imbere bafite amatsiko y'ibyo barimo barabwirwa.

Ku mupira wa kizimyamoto wifashishwa mu gihe habaye inkongi y'umuriro, uba uri ahantu runaka hahurira abantu benshi nko mu masoko, mu mavuriro ndetse no mu ma sitade, uyu mupira wifashishwa ubusukira amazi bitewe n'ahantu inkongi y'umuriro iri.

Abantu benshi bicaye bagiye bazengurutse ameza, biragaragara ko ari abantu biyubashye cyane rwose, basa nkaho ari abayobozi cyangwa se abantu barimo baratega amatwi ibyo barimo barabwirwa kuko bose barimo barareba imbere, bategereje kumva cyangwa bari kumva icyo barimo barabwirwa, hanyuma hari ibyapa byinshi bigiye bitandukanye byerekana ko hashobora no kubona none haba nk'inama y'ubucuruzi butandukanye.

Abantu bicaye hamwe biragaragara ko bari mu nama cyangwa se bari kuganira ku bintu bigiye bitandukanye. Bambaye neza cyane rwose bigaragare ko ari abayobozi. Inyuma yabo kandi hari icyapa cyanditseho ijambo RURA, aho ashobora kwibaza ngo ni iki? Ni ikigo cya Leta gishinzwe kugenzura no kuyobora serivisi z'ingufu, amazi, itumanaho, ubwikorezi rusange n'ibindi bikoresho by'ibanze mu Rwanda. Si ibyo gusa kandi bashinzwe no kugenzura no kugenga imikorere y'ibigo bitanga serivisi z'ingenzi, kugira ngo abaturage babone serivisi nziza kandi zicunzwe neza zinatanzwe neza.

Abantu benshi batandukanye bagiye bicaye ku ntebe zigiye zifite n'ahantu watereka ikintu runaka ko aho hantu kandi hagiye hateretseho mudasobwa barimo barareba imbere wagirango bari mu mahugurwa cyangwa se inama runaka kuko biragaragara ko ari umuntu uri imbere urimo urabigisha cyangwa iyokuruba bwita yabateranyirije aho ngaho.

Abantu benshi batandukanye bateraniye ahantu, hanyuma barimo barareba imbere, bose baricaye bagiye bafite ibyo kunywa ndetse hagiye hari n'ameza imbere yabo agiye ariho ibitambaro by'umweru ndetse n'umutuku, barimo barareba imbere wagira ngo barimo baraganirizwa ku ngingo runaka, hanyuma bagatanga nabo ibitekerezo, hameze nk'inama irimo irahabera itandukanye.

Abagabo bambaye neza benshi bambaye amakote birimo biragaragara ko ari abayobozi rwose ,hanyuma inyuma ya hari icyapa cyanditseho rura ubusanzwe iryo jambo ni impine risobanura urwego ngenzuramikorere mu Rwanda. Urwego rwa reta rushinzwe kugenzura no kugena imikorere y'inzego zitandukanye z'ubucuruzi n'ibikorwaremezo mu gihugu hanyuma mu nshingano bafite harimo guhagararira inyungu z'abakoresha serivisi, kugenzura no guteza imbere serivisi ,gushyiraho amategeko agenga imikorere y'amasosiyete no kugena ibiciro.

Umunara muremure uherereye ahantu hirengeye, ushobora kuba nawe uri muri bamwe bajya bibaza ngo umunara ni iki? Ni igisenge cyangwa inyubako ndende ikoreshwa mu bikorwa bitandukanye, bitewe n'icyo yubatsemo. Hari ubwoko butandukanye bw'iminara, harimo umunara w'itumanaho aho ukoreshwa mu gukwirakwiza imirongo ya telefoni, radiyo na interineti, aha twavuga nk'iminra ya MTN na Airtel n'ibindi bigiye bitandukanye, hari umunara kandi w'itangazamakuru ukoreshwa mu gukwirakwiza ibinyamakuru by'amajwi n'amashusho nk'iminara ya radiyo na televiziyo, hari n'umunara kandi wa kiriziya cyangwa se w'umusigiti ikoreshwa nk'ikimenyetso cy'ahantu ho gusengera no gutumirira abayoboke babo.

Ushobora kubona uririmo bamwe bake bibaza ngo aradibi ni iki ikora iki se cyangwa ikora gute? Rero ni ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere mu Rwanda, n'urwego rushinzwe guteza imbere ishoramari, ubukerarugendo, ikoranabuhanga n'iterambere ry'inganda mu Rwanda. Hanyuma rero inshingano z'icyo kigo, harimo gushishikariza ishoramari, guteza imbere ubukerarugendo, korohereza ubucuruzi, kuzamura ikoranabuhanga, n'ishoramari rishingiye ku bumenyi, aho aradibi ifasha mu guteza imbere ibigo by'ikoranabuhanga, ubucuruzi bushingiye kuri serivisi, n'ibindi bikorwa byongera umusaruro w'ubukungu mu gihugu.

Igikoresho cyanditseho ijambo wa na i na fa na i cyangwa se wifi, ushobora kwibaza ngo ni iki?. Ni uburyo bwo kohereza, no kwakira amakuru hakoreshejwe imiyoboro itagira insinga, bikaba bikoreshwa cyane cyane mu gukoresha internet, hanyuma kandi wifi ifashasa ibikoresho bitandukanye nka telefone, mudasobwa n'ibindi bitandukanye guhuzwa n'urusobe rwa internet nta ntego cyangwa se insinga zakoreshejwe.

Ese waba uri muri babandi bajya bibaza ngo arabisi? Ni ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda, n'ikigo cya leta gifite inshingano zo guteza imbere ubuzima rusange abashakashatsi ku ndwara no gukwirakwiza serivisi z'ubuvuzi. Hanyuma rero mu nshingano z'icyo kigo harimo gukurikikira no guteza imbere ubuzima rusange mu Rwanda, gushishikariza isuku n'imibereho myiza y'abaturage, gukora ubushakashatsi ku ndwara no gukwirakwiza inkingo, gushaka no gukwirakwiza imiti yemewe mu gihugu kandi yizewe n'ibindi byinshi bice bitandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo, harimo haragenderamo ikinyabiziga cya moto, aho bigaragara rwose ko ari umumotari ufite kasike ebyiri. Si ibyo gusa kandi, imbere yabo hari inyubako. Biragaragara ko ari inyubako z'ubucuruzi kuko hari n'icyapa cyerekana ko aho hantu bashobora kuba bahafatira amafoto atandukanye.

Icyapa cyanditseho irembo biba bishatse gusobanura ko ahantu nk'aha ngaha batanga serivisi nyinshi zitandukanye zitangwa n'irembo, hari serivisi zo mu muryango, batanga serivisi z'abinjira nabasohoka, batanga serivisi zo mu butaka, serivisi za polisi, serivisi zo mu bushinjacyaha n'izindi nyinshi zigijye zitandukanye, ukaba wakifuza serivise nk'iyi ngiyi, bagane bagufashe.

Ese mwari muzi neza cyane ko mu mwaka washize w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane, ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro cyari cyashyizeho italiki ntarengwa yo kwishyura imisoro y'igihembwe cya gatatu, aho yari italiki mirongo itatu n'imwe z'ukwezi kwa cumi n'abiri mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kane. Ni byiza banyarwanda banyarwandakazi cyane cyane abacuruzi ko twishyura imisoro kandi tukayishyurira ku gihe kugira ngo twirinde amande kandi twiyubakire igihugu cyacu.

Itangazo, hashingiwe ku iteka rya perezida ryo ku wa cumi n'icyenda z'ukwezi kwa cumi ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri ryerekeye iminsi y'ikiruhuko rusange, minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo iributsa abaturarwanda ibi bikurikira: Ku wa mbere tariki ya makumyabiri na gatandatu ukuboza, bibiri na makumyabiri na kabiri, ni umunsi w'ikiruhuko rusange mu rwego rwo kwizihiza noheri ndetse n'umunsi ukurikira noheri.

Urubuga rw'ikoranabuhanga rw'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ibyoherezwa mu mahanga by'ubuhinzi, rufite ifishi yo kwinjiramo hari aho usabwa kwandika imeri yawe ndetse n'ijambo ry'ibanga kugirango ubashe kwinjira mu rubuga, hari kandi amahitamo yo kwibagirwa ijambo ry'ibanga no kwiyandikisha nk'umukoresha mushya, munyuma hagaragaraho ifoto y'abahinzi bari mu mirima y'icyayi bishobora kugaragaza ko uru rubuga rukoreshwa mu bijyanye n'iterambere ry'ubuhinzi by'umwihariko ibyoherezwa mu mahanga.

Ese mwari mubizi neza cyane ko irembo ryazanye ubukangurambaga bwabyikoreye; bishatse gusobanura ko barimo barashishikariza abaturage kwisabira serivisi za leta zose batanga bakabyikorera kuri telefone yabo bitabasabye gutanga amafaranga y'umurengera cyangwa se gutakaza umwanya bajya gushaka abantu babafasha hanyuma icyo bisaba nigufunguza konti ubundi agakurikiza amabwiriza mu gihe byakugoye ushobora kubahamagara kuri mirongo icyenda mirongo icyenda bakagufasha rwose bakakuyobora ukabyikorera.

Abantu benshi batandukanye bicaye ku ntebe, si ibyo gusa kandi imbere yabo hari umugabo, birimo biragaragara ko ari inyigisho arimo arabahereza, ku byerekeranye n'amashyamba, uburyo bayabungabunga, uburyo bayitaho, imisozi yose, uburyo bashobora gukora neza kugira ngo baharanire ko ibidukikije byagira neza kandi byabaho na neza bakanabyitaho bakabibungabunga.

Igitabo cyashyizwe ku mugaragaro mu buryo bw'ikoranabuhanga gifite umutwe mu magambo y'icyongereza ariko bishatse gusobanura ngo igereranya ku rwego rw'imirimo ibereye mu ntara y'iburasirazuba hariho itariki ya gatandatu ukuboza bibera makumyabiri na kabiri bivuze ko ariko inyigisho cyangwa ibiganiro byatanzwe ku ruhande rw'ibumoso hari ikirango cy'igihugu cy'u Rwanda no hejuru ku ruhande rw'iburyo hari ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda.

Ese mwari muzi neza ko hari urubuga rw'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubutaka rureberwaho amakuru y'ubutaka, akaba ari sisitemu itanga ku buryo bwihuse amakuru y'ingenzi ku butaka? Ukaba warakoze nk'ihererekanya ry'ububasha ku butaka rishingiye ku bugura, ku mpano se, ku izungura n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, ushobora kuza kuri uru rubuga rwose ukaba wareberaho ubusabe bwawe bugeze, niba bwaremejwe cyangwa butaremejwe, si ibyo gusa kandi ukaba ukaba ufite nk'ubutaka butabaruwe, biroroshye ko waza ugakoresha runo rubuga ukabireba.

umunara muremure cyane birimo biragaragara ko amabara yiganjemo ari ibara ry'umutuku ndetse n'umweru, hanyuma mu Rwanda tugira ubwoko bwinshi butandukanye bw'iminara ariko iyo twibandaho ni iminara y'itumanaho nk'urugero nk'imara ya emutiyeni, eyateri, radiyo cyangwa na televiziyo, hanyuma bene ubu bwoko bw'iminara ikoreshwa mu gukwirakwiza imirongo y'itumanaho ya telefone interineti ndetse na radiyo, hari iminara kandi y'amashanyarazi ikoreshwa cyane mu gukwirakwiza amashanyarazi mu bice bitandukanye by'u Rwanda.

Ese mwari muzi neza ko abantu bakoze cyangwa babonye umutungo utimukanwa mu mwaka bibiri na makumyabiri na kane nabo barebwa no kwishyura umusoro yego nibyo rwose umuntu wahawe uburenganzira bwo kwitwa nyir'umutungo utimukanwa agahabwa icyangombwa cy'uwo mutungo muri uyu mwaka ushize, nawe afite inshingano zo kuwusorera niba umutungo utari wasorewe n'uwari uwufite mbere tukabagira inama yo kubwirana na bagenzi banyu n'amakuru.

Ese mwari muzi neza cyane ko uyu munsi ari wo munsi wa nyuma wo kwigaragaza ku bushake, garagaza imisoro yawe utamenyekanishije mbereya bibir na makumyabiri na gatatu ukurirweho amande n'inyungu z'ubukererwe. Hanyuma rero tariki ntarengwa yatanzwe yari itariki makumyabiri n'eshatu z'ukwezi kwa cumi mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kane hari abantu rero bareka kwishyura imisoro kandi rwose aba ari ngombwa ugasanga bashyiriyeho amande, ni ukuri banyarwanda abacuruzi twishyure neza kandi twishyura imisoro twubake igihugu cyacu.

Nawe ushobora kuba uri umwe mu bahora bibaza iki kibazo ngo ninde ufatwa nka nyir'mutungo utimukanwa. Ni ukuvuga ngo nyir'umutungo utimukanwa biba bishatse kuvuga ko ari umuntu wanditswe nka nyirriwo mutungo cyangwa ufite uburenganzira ku mutungo n'ufatwa nka nyir'umutungo hakurikijwe amategeko y'u Rwanda. Ibi dukunda kubibona cyane cyane ku butaka aho ubutaka bu bubaruriwe ku muntu runaka.

Ikigo gishinzwe iterambere ry’ishoramari mu Rwanda kigaragaza inyubako ya Kigali Arena, iri i Remera, izwi cyane mu kwakira ibitaramo n’ibikorwa by’imyidagaduro. Hari ubutumwa bushishikariza abantu gushora imari mu Rwanda, burimo ibisobanuro ku mpamvu abashoramari bagomba gushora imari mu gihugu ndetse n’amahuriro y’ubucuruzi. Nanone, hari ikindi kimenyetso kiri hasi cyerekana uburyo bwo kubona amakuru ajyanye no gutangiza sosiyete y’ubucuruzi mu Rwanda. Si ibyo gusa, ahubwo bigaragara ko ari igice cy’ubukangurambaga bugamije kureshya abashoramari bashya ndetse no korohereza abashaka gutangiza imishinga mu Rwanda.

Inzu n'amadirishya bisize irangi ry'mweru, hanyuma urugi rurafunguye mo imbere harimo umuntu kandi hejuru y'ibiro byanditseho icyapa cy'irembo, biba bishatse gusobanura ko batanga serivisi zinyuranye z'irembo aho irembo ritanga serivisi zo mu irangamimerere bagatanga kandi serivisi za polisi, serivisi kandi nk'izo gusimbuza indangamuntu mu gihe wayotaye kuyikosoza cyangwa se mu gihe uyishaka ku nshuro ya mbere, batanga serivisi zo mu bushinjacyaha iyo ushatse kwishyura mituweli noho ushobora kuba wayishyurira n'izindi n nyinshi zitandukanye.

Umunara muremure ushamikiyemo insinga zitandukanye uranubakiye kandi .Iminara nk'iyi ng'iyi ibigiye iriho icyapa kibwira abantu ko bitemewe cyangwa bibujijwe kuhegera mu busanzwe rero mu rwego rwo gufata neza umunara nku w'itorero ,w'itumanaho cyangwa uwo kwitegereza ibintu bitandukanye abantu benshi bagakwiye kubungabunga ubusugire bwawo bagasuzuma buri gihe umunara bagatunganya neza ibidukikije bakitondera uburyo umunara ukoreshwa ndetse bagafata ingamba z'umutekano nko kwemeza ko nta muntu winjira cyangwa akoresha umunara nabi cyangwa cyane cyane ku minara miremire nk'iyi ngiyi turimo turabona.

Umunara muremure cyane rwose wubakiye, biba bishatse kwerekana ko rwose bitemewe ko muhakandagira, cyangwa muhegera kugira harindwe umutekano w'abantu ndetse nuw'uyu munara. Umunara rero ugira akamaro gatandukanye harimo; itumanaho n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, dukore uko dushoboye rwose tubungabunge, kandi dusigasire umunara.

Irinde ko umwe mu bakoresha uburiganya butandukanye batunga simukadi nyinshi zitandukanye; aho ushobora kureba nimero zikwanditseho ukanze akanyenyeri ijana namakumyabiri na gatanu urwego ukemeza ukanda rimwe mu rurimi rw'ikinyarwanda mu mugihe ukoresha ikinyarwanda; ukongera ugakanda rimwe mu kureba nimero zikubaruyeho; hanyuma ugashyiramo nimero yawe y'indangamuntu uhita ubona nimero zikubaruyeho; hanyuma kandi ushobora gusanga ari nka nimero bagiye babaruza ku ndangamuntu yawe mu buryo butemewe ushobora no kuba wazikuraho nabyo birashoboka cyane.

Serivisi nshyashya zongewe ku rubuga rw'irembo mu cyiciro cy'ubucuruzi n'inganda urutonde rwerekana uruhushya rwo gukora ubucuruzi mu byiciro bitandukanye birimo, urushya rwo guhinga urumogi, uruhushya rwo' gucuruza ibikoresho bikoresha amashanyarazi n'byo kubaka, urushya rwo gucuruza imbuto, ibinyampeke n'ibindi, uruhushya rwo gutanga serivisi zijyanye n'ibikoresho by'ubwubatsi hariho kandi na nimero za serivisi mu gihe ukeneye ubufasha wabahamagaraho.

Abantu benshi batandukanye bagiye bicaye ku ntebe zizengurutse ameza, bafite amamashini menshi atandukanye buri wese afite imashini, hanyuma birimo biragaragara ko hari umwe urimo aravuga muri bo wagira ngo ni nk'inama y'akazi bakaba barimo baragenda bungurana ibitekerezo k'ibyo banoza kugira ngo akazi kabo kagende neza.

Ipoto cyangwa se ipironi y'amashanyarazi hari umukobwa kandi wambaye umwambaro bigaragara ko abishinzwe ndetse n'ikigofero m'umutwe, arimo arurira urwo rwego kugira ngo ajye gukora amashanyarazi, bigaragare ko hari ikibazo cyabaye cyangwa se yapfuye hanyuma bakitabaza umuntu wabyigiye cyangwa ubifite mu nshingano akaza gukora iri poto ry'amashanyarazi.

Biragaragara ko hano hantu ari ku muhanda cyangwa ku nkengero zawo, kuko hari itara mu matara akunda gukoreshwa mu kumurika nijoro, hari n'inyubako nini kandi cyane dukunda kwita etaje, aho ushobora kwibaza ngo ni iki? Aba ari inyubako ifite ibice byinshi bikurikiranye hejuru no hepfo, zigizwe n'amagorofa. Zikunze kubakwa mu Mijyi aho hateraniye abantu benshi, kugira ngo hakoreshwe neza ubutaka buke buhari. Mu Rwanda amazu maremare nk'aya rero, arimo kwiyongera cyane cyane mu Mujyi wa Kigali, bitewe n'iterambere ry'ubukungu n'izamuka ry'imibereho y'abaturage.

Inyubako nziza rwose iri mu gipangu ahantu ni igipangu kinini cyane rwose biragaragara ko hano hantu hatangirwa serivisi runaka kuko hegereye umuhanda, hanyuma ku muhanda hari ipoto rinini rigiye rifite insinga z'amashanyarazi zitandukanye hari kandi n'ubusitani ndetse n'umuhanda wa kaburimbo n'umuhanda w'abanyamaguru ahantu nk'ahangaha rero haba hegereye umuhanda biba bigaragara rwose ko batanga serivisi zigiye zitandukanye.

Umunara uri ahantu mu busitani kuko hari ibiti bigiye bitandukanye ndetse n'indabyo nyinshi zigiye zitandukanye, hanyuma umunara ugira akamaro kanini cyane mu buzima bwa muntu kuko turawifashisha buri munsi by'umwihariko cyane mu itumanaho, aho dushobora guhamagara bagenzi bacu nk'urugero uhamagara nk'umuntu uri mu Rwanda, ugahamagara umuntu uri mu kindi gihugu cyo hanze akenshi biba byatewe n'akamaro gakomeye cyane uyu munara uba wakoze.

Imodoka iparitse ahantu ifite urwego rurerure ku mugongo wayo, rugaragara nk'urukoreshwa mu mirimo y'ubwubatsi cyangwa iyindi mirimo isaba kugera ahantu harehare, imodoka iparitse ku ruhande rw'umuhanda ku gasozi gato bigaragara ko ari hafi y'ahantu hari ibiti n'ubusitani. ibi bishobora kwerekana ko abantu bari bayikoresheje bari mu kazi nk'ibyo gusana insinga z'amashanyarazi, amatara yo ku muhanda cyangwa ibindi bijyanye n'imitangire ya serivisi zitandukanye.

Ipironi ry'amashanyarazi hagiyeho hashamikiyeho insinga zitandukanye, kandi ziba zifite n'akamaro gatandukanye, hari abantu babiri kandi muri iryo pironi biriho biragaragara ko hari ikintu barimo barakora kwizo nsinga z'amashanyarazi, abantu nkabo babifitiye uburenganzira ubushobozi bisa nkaho bafite mu nshingano, cyangwa se babyigiye hari icyo barimo barakosora kitarimo kugenda neza.

Inyubako ndende dukunda kwita etaje, sibyo gusa kandi hari ipoto rigiye rishamikiyeho insinga nyinshi zitandukanye, ahanini izi nsinga ziba ari insinga z'amashanyarazi, hari kandi abamotari bagiye baparitse ndetse n'amamodok menshi agiye aparitse, biragaragara ko hano hantu ari mu mujyi kandi ari ahantu nyabagendwa hakore serivise zitandukanye.

Umunara muremure uri ahantu hameze nko ku musozi, hari ibiti byinshi bigiye bitandukanye kandi hariho n'insinga zigiye zishamikiye kuri uwo munara nyinshi zitandukanye, biba bishatse gusobanura ko ziba zifite umumaro utandukanye, ni byiza ko tubasha kumenya akamaro k'umunara, tukamenya no kuwurinda, tukawusigasira neza nk'uko bikwiriye.

Umunare munini cyane bitagaragara ko ari umunara w'amashanyarazi hanyuma hari icyapa cyanditsehoka Gasogi n'ijambo REG ushobora kuba wibaza ngo REG, ni ikigo gishinzwe ingufu mu Rwanda hanyuma ni cyo kigo gifite inshingano zo gutanga, gukwirakwiza no gucunga amashanyarazi mu gihugu hose. Mu byo bakora rero harimo gutanga amashanyarazi, kubaka no gusana imiyoboro y'amashanyarazi, kwagura ingufu z'amashanyarazi, gutanga serivisi zijyanye n'amashanyarazi ,ndetse n'ibindi byinshi bigiya bitandukanye.

Inkike cyangwa umunara muremure w'amashanyarazi, ifite insinga nyinshi z'amashanyarazi zikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi ahantu hatandukanye, iyi nkingi yubatswe ahantu hari imisozi kandi bigaragara ko ifata umuriro mwinshi, bishobora kugaragaza ko ari umuyoboro mugari ugezwaho abantu benshi.

Icyuma cyaguye cyangwa cyegamye hafi y'ikirango kiri mu busitani bwegereye umuhanda, hari ibyatsi bikikije aho hantu ndetse no mu mbuga y'inyuma hagaragara abantu ndetse n'ibinyabiziga; bishobora kuba igikoresho cy'amashanyarazi cyangwa se itumanaho cyangwa ikindi kintu cyashyizweho; ariko cyarangiritse, hanyuma rero muri ibi bintu rwose iyo tubibonye nk'ibingibi byo twumva ko ari nk'ahantu hafi y'umuhanda hegereye ibikorwa remezo.

Inzu imeze nk'aho igaragiwe n'amashuri, cyangwa inyubako zikoreshwa mu burezi, hari imbuga yipanze neza cyane rwose , igiye ifitemo amatafari cyangwa amabuye, hanyuma inzu yubatswe mu buryo bwa kera , ifite amatafari atagaragayeho ibipfundikizo by'ikirahuri, hagati mu mbuga kandi hari igikoresho gikoreshwa mu kuzimya inkongi y'umururo bishobora kugaragaza ko aha hantu hacunzwe neza umutekano mu buryo w'ibanzi, hanyuma kandi muri iyi nyubako hari umuntu urimo uragaragara mu mwijima wayo.

Inyubako imeze nk'ibitaro cyangwa ikigo cy'ubuvuzi aho abantu bari bicaye bategereje guhabwa serivisi, mu gihe abandi bari bari hafi y'imodoka y'imbangukiragutabara. Hari abantu bambaye imyenda y'abakozi b'ubuvuzi, bigaragara ko bashobora kuba bari kwita ku murwayi, winjizwa cyangwa usohorwa mu mbangukiragutabara. Abandi bantu barimo kandi harimo abahagaze n'abicaye ku ntebe bigaragara ko bategereje cyangwa bari kumwe n'umurwayi.

Inyubako nini igiye ifite amadirishya y'umukara si ibyo gusa kandi hanze hari intebe zigiye zitandukanye, hano hantu hameze nko ku kigo cy'amashuri cyangwa se kwa muganga, kuko izi ntebe ni iz'abantu bashobora kwicaramo bategereje serivisi zigiye zitandukanye, nko mu gihe wenda waje nko kwivuza ukaba utarakirwa ukaba wicaye nko kuri ino ntebe, kugira ngo nugerwaho uze kuba basi wabonye ahantu ho kwicara.

Inzu nini cyane turimo turabona ahantu hari kwerekana icyerekezo giherereyemo ubwiherero, hari intebe kandi hanze intebe nk'izindi zidukunda kuzisanga nk'ahantu hatangwa serivisi za leta nk'iy'abaturage baje gusaba izo serivisi, ukaba usanga bagiye babanje kwakira bagenzi babo biba byiza iyo bicaye ku ntebe nk'izingizi mu gihe bagitegereje gufashwa.

Abantu bicaye mu cyumba cyakira abantu, gisa naho ari ahantu hatangirwa serivisi za leta, banki se cyangwa ikigo cy'ubuvuzi. Hari intebe z'icyatsi abantu bicayeho, hakaba n'inkuta zifite ibimenyetso byerekana nimero z'abahamagariwe serivisi. Hanyuma umuntu uri imbere y'ifoto afite imisatsi y'umuterano, yateranyijwe inyuma, na ho hari abandi bantu bari imbere basa n'abategereje guhamagarwa ngo bahabwe serivisi.

Inyubako ifite ubusitani buri hagati bwitaweho neza kuko burimo ibyatsi bibisi n'ibiti bito biteye neza. Iyo nyubako kandi ifite igisenge gikingiye gifite amabara y'umuhondo n'umweru ku mpande. Hagaragara kandi abantu bari hamwe kuruhande rw'ibumoso bambaye imyenda y'amabara atandukanye, bigaragara ko bari mu biganiro cyangwa se bategereje serivisi runaka. Mu kibanza hagati kandi hari intebe zitukura n'ameza, bishobora kuba ari ahantu ho kwicara no kuruhukira. Hari kandi inzira y'amatara ashobora kwifashishwa mu kugenda nijoro kugira ngo hataza kubaho kwibeshya ukagwa.

Ko bigaragara rwose aha hantu harasukuye kandi afite ubusitani butoshye, bishobora kuba ikigo cy'amashuri ibitaro cyangwa ibiro bya leta, hari ibyatsi n'ibiti bitanga umwuka mwiza bigaragaza ko hahinduwe neza, harimo inzira nyabagendwa ifite kaburimbo bivuze ko abagenderamo bafite umutekano, hanyuma hari n'amatanki y'amazi agaragaza uburyo bwo kubikamo amazi meza yo gukoresha.

Ahantu hameze nk'ikigo cy'amashuri cyangwa ikigo cy'ubuvuzi kiriogira abantu benshi, hari inyubako ifite ibisenge ndetse n'imiryango myinshi bigaragaza ko hari hakorerwa serivisi zitandukanye, hari abagore bambaye imyenda ya kinyarwanda bigaragaza umuco gakondo; bamwe muri bo baragenda mu gihe abandi bicaye bigaragara ko bategereje serivisi, hari kandi agasanduku k'umuhondo kariho amagambo yo mu cyongereza byerekana ko hano hantu hagomba kugirwarwa isuku kandi ihagije.

Inyubako nziza cyane rwose, ku ruhande hagiye hari ubusitani bwiza, hanyuma rero igiye ifite inkingi nyinshi mbere yayo, ifite ibisenge bitwikiriye inzira aho abantu banyura, hari icyapa cyanditseho amagambo mu cyongereza ku ruhande rw'iburyo, gishobora kugaragaza ko iyi nyubako ari iy'ibitaro cyangwa ikigo nderabuzima runaka gitanga serivisi z'ibizamini byifashisha imirasire, hanyuma ahantu hameze neza rwose kandi biragaragara ko bafite isuku.

Abantu bicaye ku ntebe zisa bambaye imyambaro isa bigaragara ko hari icyo bahuriyeho, bambaye imeynda y'amaroza agaragaza imfungwa zifungiyewe mu gihugu cy'u Rwanda, zibyo gusa kandi nyuma hari n'umuntu umucungagereza. Hanyuma rero mu Rwanda imfungwa ziba mu magereza atandukanye, harimo gereza nkuru ya Nyarugenge, i Muhanga i Musanze ndetse n'izindi zigiye zitandukanye. Hanyuma imfungwa zishobora kuba iz'igihe gito cyangwa se iz'igihe kinini ziba zarakatiwe imyaka itandukanye bitewe n'igihano bahawe.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi batandukanye bambaye umwambaro umwe, bishatse gusobanura ko hari ikintu bahuriyeho bose, biragaragara ko ari imfungwa zo muri gereza hanyuma hagati muri bo harimo n'abacungagereza, ni byiza ko niba ukoze icyaha rwose ujya muri gereza ukagihanirwa kugira ngo rwose umunsi uzasohokera hanze uzaba waragororotse utazagira ibyo wangiza mu gihugu cyacu.

Umuhanzi wari uzwi cyane mu gihugu cyacu cy'u Rwanda nka Kizito Mihigo, yari umuririmbyi n'umucuranzi w'indirimbo zifite umwihariko wo gukangurira abantu amahoro, ubumwe n'ubwiyunge mu Rwanda. Yamenyekanye cyane kubera ubuhanga bwe mu kuririmba no gucuranga inanga, kimwe no gukoresha amagambo yuje ubutumwa bwimbitse. Rero Kizito Mihigo yavukiye i Kibeho mu majyepfo y'u Rwanda, ahazwi cyane nk'ahantu habaye ibonekerwa rya Bikira Mariya. Yakuze afite impano yo kuririmba cyane no gucuranga.

Ese wari uzi yuko imanza z'imbonezamubano habamo gushinganisha umutungo w'ubereyemo undi umwenda? Mu gushingana ubereye undi umwenda rero, habamo kandi cyane cyane ko usaba agomba gushinganisha umutungo w'undi afite inshingano, cyangwa afite ibimenyetso byerekana ko amufitiye umwenda udashidikanywaho, kandi ugejeje igihe cyo kwishyurwa cyangwa ibyerekana ko uwo baburana ashobora kurigisa umutungo.

Umugabo wirabura yambaye cyane umwambaro ukunda kwambarwa cyane n'abanyamategeko, so ukibaza ngo umunyamategeko ni muntu ki? Ni umuntu wize amategeko kandi ufite inshingano zo kuyasesengura kuyasobanura no kuyakoresha mu buryo butandukanye, hari ibintu byinshi umunyamategeko akora harimo; gutanga inama z'amategeko ku bantu ku giti cyabo, ku bigo bya Leta cyangwa ibigo byigenga. Kandi yunganira abantu mu manza zinyuranye mu nkiko, afasha mu kwandika no gusobanura amasezerano n'inyandiko z'amategeko, arengera uburenganzira bw'abantu n'ubutabera muri rusange. Harimo rero abanyamategeko b'ubwoko butandukanye hari abo dukunda kwita aba avoka kuko benshi bakunda kunganira abantu mu manza zirebana n'amategeko y'imanza, hari abanoteri haba ari abigenga ndetse n'aba Leta, haba hari n'abashinjacyaha ndetse n'umunyamategeko wenda w'ikigo runaka n'ibindi bitandukanye.

Inyubako nini cyane rwose birimo biragaragara ko ari igororero rya Muhanga. Mu busanzwe rero ingororero ni ahantu hafungirwa abantu bakatiwe n'inkiko, kubera gukora ibyaha bitandukanye, hagamijwe kubahana no kubafasha kwisubiraho, kugira ngo bazasubire mu muryango Nyarwanda, bafite imico myiza. Rero hari intego zitandukanye z'igororero, harimo kugororera abafungiwe ibyaha, kugira ngo bazasubire mu buzima busanzwe bafite imyitwarire myiza. Kurinda umutekano w'abaturage, hatangwa ibihano ku bakoze ibyaha, gutanga kandi amahugurwa n'uburere, ku bafungiye ibyaha kugira ngo bazabashe kwiteza imbere nyuma yo kurangiza ibihano bakatiwe.

Abantu bane, babiri muri bo ni igitsina gabo, babiri muri bo ni igitsina gore, igitsina gore bose bambaye amakanzu y'iroze, hanyuma igitsina gabo bambaye umwambaro w'abanyamategeko. Hanyuma imbere yabo hagiye hari amamashini agiye atandukanye, hari impapuro zitandukanye, biragaragara cyane ko hari ikirego barimo baraganiraho kugira ngo bajye kuburana.

Abantu bagize uruhare rukomeye muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, muri mata igihumbi kimwe maganacyenda mirongo icyenda na kane, bakaba barahunze bakaburirwa irengero, hanyuma barimo barashakishwa, mu gihe ubabonyewushyikiriza leta y'u Rwanda kugira ngo bahanirwe ibyo bakoze, aho harimo umugabo witwa KABUGA ndetse n'undi witwa BIZIMANA.

Abantu benshi bambaye imyambaro yose isa iragaragara ko ari icyatsi kibisi bose, abangaba wagira ngo ni imfungwa, kuko inyuma yabo hagiye hahagaze ingabo z'u Rwanda zambaye umwambaro w'abasirikare hagira ngo bararinzwe, nabo kandi bari nko mu cyumba cy'inama runaka, cyangwa se ahantu habera iburanishwa.

Ese mwari muzi neza ko abantu bajya barenganywa mu gihe bategereje kuburana imanza zabo bakabagaruswa cyangwa se bakabangamira mu bundi buryo? Hanyuma rero ukwiye kwirinda abagire ibyo bagusaba bakwizeza kuzagufasha kubona ubutabera mu nkiko. Biririnde ubutabera ntibukorwa, ubutabera bukoresha ukuri kose kwagakwiye kuko ubutabera ntibukorwarwa.

Umuntu wambaye imyambaro y'abanyamategeko, ukuboko kwe kw'iburyo gufasha ibendera ry'u Rwanda, ukundi ku kumoso yakuzamuye arimo ararahira kutazatatira Igihugu no kubahiriza inshingano yahawe nk'umunyamategeko. Hanyuma inshingano z'umunyamategeko zishingiye ku kurengera amategeko, no gutanga inama mu by'amategeko. Mu nshingano zitandukanye umunyamategeko agira, harimo kugira inama abakiriya bamugana, kurengera uburenganzira bw'abakiriya, kwiga no gusobanukirwa amategeko, gutegura amasezerano n'impapuro z'amategeko, kuba umuhuza mu manza, kugira imyitwarire myiza no mu gukorera mu mucyo.

Umuntu wambaye umwambaro tumenyereye cyane ku mwambaro w'abanyamategeko, hanyuma abanyamategeko bagira imirimo myinshi igiye itandukanye harimo kurenganura abantu, harimo kandi kurengera amategeko no kwiyubahiriza, kuburanira abantu, kugira inama z'amategeko mu bigo bigiye bitandukanye kandi bikomeye n'izindi nshingano nyinshi cyane tutarondora zitandukanye.

Uyu ni umuhanda ushamikiyeho indi mihanda. Nta modoka n'imwe urimo. Ku nkengero z'umuhanda hariho ibiti n'inzu.

Umugabo uhagaze imbere y'imodoka hanyuma yambaye umwambaro w'iroza iyi ni imyambaro abantu bakunda kwambara iyo bakatiwe igifungo cyabo muri gereza bitewe n'ibyo bagiye bakora mu Rwanda hanyuma rero ni byiza ko imfungwa rwose zijya muri gereza zikagorororwa kugira ngo igifungo cyabo ntikirangira bazaza muri sosiyete nyarwanda nta kibazo rwose cyangwa nta mutekano mucye bateza.

Abantu benshi bambaye imyambaro isa turimo turabibona cyane ko hari imfungwa zifungiye muri gereza turimo turabibona kandi ko hagati muri bo hari umucungagereza. Ubundi mu busanzwe gereza ni ahantu hafungirwa abantu bakoze ibyaha cyangwa babikekwaho hanyuma imfungwa ni umuntu wafashwe, agafungwa muri gereza kubera impamvu zinyuranye cyane cyane zijyanye n'amategeko. Noneho rero hariya muri bo hashobora kuba harimo n'umufungwa w'agateganyo, umuntu wafunzwe by'agateganyo ni umuntu ufungiye muri gereza atararangiza kuburana ni ibyo ngibyo akenshi bikunda kuba biri muri gereza.

Ahantu bigaragara ko hameze nko mu rukiko, hari umugore imbere wambaye umwambaro ugaragara nk'aho ari umucamanza, si ibyo gusa kandi hari ari umugabo na none urimo urasinya urupapuro ruteretse ku meza y'uwo mucamanza, bisa nk'aho we ari umwavoka. Ni byiza ko abacamanza baca imanza zitabera, kuko baba baragiriwe icyizere n'igihugu kikabashyira mu nshingano, kuko nk'iyo baciye imanza zibera rwose byangiza ubuzima bw'umuntu warenganyijwe.

Shobora kuba nawe ujya wibaza ngo kizimyamwoto niki? ni igikoresho cyangwa uburyo bukoreshwa mu kuzimya inkongi y'umuriro gikoreshwa cyane cyane mugihe habaye impanuka y'inkongi kugira ngo kigabanye cyangwa kihagarike gukwirakwira k'umuriro. Hari amoko atandukanye ya kizimyamwoto bitewe n'ubwoko bw'inkongi zishobora guhura nazo mu busanzwe mu bigo by'akazi no mu mazu y'ubucuruzi kizimyamwoto kiba cyashyizwe ahantu hahurira abantu benshi kugira ngo hafatwe ingamba zihuse igihe habaye inkongi y'umuriro.

igikorwa cyiza cyane cyo kumurika abantu cyane cyane abana, bikoresho byifashishwa mu bikorwa by'ubutabazi n'ubwirinzi ugaragara imbere n'umukozi wambaye imyambaro yihariye ya gisivire ifite imirongo yerekana ko ari umukozi w'ubutabazi. Agiye gusobanurira abana n'umubyeyi uba uri kumwe n'abo bikoresho biri hasi ibikoresho biri ku mukeka birimo byifashishwa mu bikorwa by'ubutabazi n'ubwirinzi birimo imikandaro y'umutekano ibikoresho byo gutabara bahuye n'impanuka n'imyambaro yihariye yo kwirinda.

Ibiro bya sitasiyo ya polisi ya gisozi ushobora kubona nawe ujya wibaza ngo hakorerwe iki? Mu busanzwe rero aba ari ahantu hakorera inzego z'umutekano zishinzwe kubungabunga amategeko no kurinda umutekano w'abaturage. Niho abaturage kandi bajya gutanga ibirego, gusaba ubufasha mu by'umutekano, cyangwa gutanga amakuru ajyanye n'ibyaha, akenshi rero sitasiyo ya polisi ifite abapolisi bashinzwe kwakira ibibazo by'abaturage, no gukurikirana iyubahirizwa ry'amategeko.

Umugabo wirabura bigaragara ko yambaye umwambaro rwose wa polisi w'u Rwanda, hanyuma yahagaritse imodoka afite imashini mu ntoki ze, biragaragara ko afite n'uruhushya rwa burundu rwo gutwara ibinyabiziga, arimo arasuzuma ko umuyobozi w'iki KInyabiziga ashobora kuba afite uruhushya rwa nyarwo kandi rwujuje ibisabwa rumwemerera kugenda mu muhanda wo mu Rwanda.

Abantu benshi bahagaze ahantu hamwe bagiye bafite imbunda mu ntoki zabo, bambaye umwambaro umwe ari wo mwambaro wa polisi y'u Rwanda, imbere yabo kandi hahagaze undi muntu nawe wambaye umwambaro nk'uwabo, biragaragara ko ari umuyobozi wabo. Polisi y'u Rwanda rero ni urwego rushinzwe kubungabunga umutekano, gukumira no kurwanya ibyaha no kurinda abaturage n'ibyabo.

Ubwoko bw'imodoka nini cyane, iyo modoka ntabwo ari imwe gusa hari n'izindi zigiye ziparitse iruhande rwayo, si ibyo gusa kandi imbere y'izo modoka hagiye hahagaze abantu, hanyuma rero ubwoko bw'imodoka nk'izi ngizi bukunda kwifashishwa cyane mu gutwara imizigo, by'umwihariko nko mu bwubatsi zikaba zatwara ibiti, imbaho, amabuye, umucanga n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye.

umupolisi wambaye umwambaro w'umutekano wo mu muhanda hanyuma gusa kandi ahagaze ku gisharagati cy'inzira z'abanyamaguru, abantu bari kwambuka umuhanda abandi bari kuruhande bategereje icyapa cy'itara rigenga umutekano w'imihanda hari imodoka nyinshi inyuma ndetse nabatwara igare bigaragaza ko ari ahantu hahurira abantu benshi hari inyubako kandi nini inyuma ifite amatangazo manini bishobora kwerekana ko ari ahantu hacururizwa ibintu bitandukanye.

Icyumba cy'inama kicayemo abantu benshi bagiye batandukanye, muri abo bicayemo kandi harimo umukuru w'igihugu cyacu cy'u Rwanda, hakabamo n'umufasha we Jeannette Kagame, n'inama nziza rwose bigaragara ko ari inama yahuje abayobozi batandukanye bo mu gihugu hari nk'inama iba irimo irigwamo ibintu byiza cyane kandi bitandukanye byafasha kandi byagirira igihugu cyacu akamaro, n'inkizingizi rwose ziba zirimo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame.

Abantu benshi bambaye imipira isa ndetse n'ingofero bafite n'amatarapo kandi yanditseho EFUPERI, wagirango barimo baramamaza umukuru w'igihugu. Ubusanzwe ishyaka EFUPERI Inkotanyi ni rimwe mu mashyaka akomeye mu Rwanda, rifite amateka yihariye n'uruhare runini mu mateka y'igihugu. Ryashinzwe mu gihumbi kimwe maganakenda mirongo inani na karindwi n'Abanyarwanda bari mu buhungiro rifite intego yo kurengera uburenganzira bw'impunzi z'Abanyarwanda no kugarura amahoro mu gihugu cyari cyugarijwe n'ivangura n'akarengane.

Ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda, hari intebe kandi ziri imbere y'iryo bendera ndetse n'ameza agiye atandukanye, hicayeho abantu ku izo ntebe, birimo biragaragara ko ari abayobozi. Hari kandi umuyobozi w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame, afite indangururamajwi, hari ubutumwa arimo arageza ku bantu bamukurikiye kuko turimo turabona imbere ko hari abandi bantu bagiye bicaye benshi.

abantu benshi bahuriye ahantu hamwe kandi hagati muri bo hari umuyobozi w'igihugu cyacu paul kagame hanyuma bose bajya bafite amadaropo cyangwa se amabendera ya fpr .fpr rero ni ishyaka rya politiki ryashinzwe mu gihugumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na karindwi n'impunzi z'abanyarwanda zari mu mahanga cyane cyane muri uganda intego yaryo yari uguharanira uburenganzira bw'impunzi no kuzana impinduka mu miyoborere y'u rwanda fpr inkotanyi rero ni ryo shyaka ryahagaritse jenoside yakorewe abatutsi mu igihumbi kimwe maganacyenda mirongo icyenda nakane rihagarika ubwicanyi ndetse ritangiza urugendo rwo kubaka u rwanda rushya.

Umukuru w'igihugu cyacu cy'u Rwanda Paul Kagame biragaragara ko yishimye cyane rwose arimo aranaseka yatangiye kuyobora igihugu cy'u Rwanda guhera mu mwaka w'ibihumbi bibiri, aho yagize uruhare runini cyane mu guhagarika Jenoside yakorewe abatutsi muri mata igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane sibyo gusa kandi yagize uruhare mu kubaka u Rwanda mu iterambere mu kubaka ibikorwa remezo n'ibindi byinshi bijye bitandukanye.

Uwahoze ari umukuru w'igihugu cy'u rwanda Juvenal Habyarimana, yari umwe mu bakuriye igihugu cy'u rwanda akaba yarabaye perezida kuva mu mwaka w'igihumbi cya magana cyenda mirongorindwi nagatatu kugeza igimbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane. Yafashe ubutegetsi ku itariki ya gatanu nyakanga igihumbi kimwe magana icyenda mi mirongo irindwi na gatatu nyuma yo guhirika ubutegetsi bwa perezida Gregoire Kayibanda. Habyarimana yashinze ishyaka rya politiki ryari rizwi nka emelenide, hanyuma ari naryo ryari ku butegetsi mu gihe cye.

Abantu benshi cyane bicaye ku ntebe z'umukara, barimo barareba imbere, noneho rero imbere hagiye hari ameza apanzeho, hanyuma aha hariho n'abantu bahicaye kandi harimo haragaragara n'ibendera ry'u Rwanda, ibi akenshi bikunda gukorwa nk'iyo hari itegeko nshinga ririmo ririgwaho, uba usanga abantu benshi bagiye bashinzwe imirimo itandukanye, baba bateranye kugira ngo batange ibitekerezo bitandukanye.

Igikorwa cyiza cyane cy'imbwirwaruhame cyangwa inama rusange, ihuje abantu benshi. Mbere na mbere umuntu uri imbere wambaye umupira w'umweru, wanditseho amagambo indi ntambwe, ashobora kuba ari umuyobozi w'icyo gikorwa cyangwa umuhuza w'ibiganiro. Kumwe na we, hari abandi bagabo babiri bambaye amakoti, bagaragara nk'abayobozi cyangwa basobanura, ibirimo kuvugirwa muri iyi nama.

Inama iri kubera mu cyumba cy'inama hanyuma kandi hari abantu benshi bicaye ku meza bafite ibikoresho by'ikoranabuhanga ndetse n'amazi kumeza, biragaragara ko ari inama y'ingenzi ishobora kuba yerekeye ubuyobozi ubuvugizi cyangwa politiki hari abagore n'abagabo bari kwitabira bikaba byerekana ubusumbane buke mu myanya y'ubuyobozi ni nk'urugero rero rw'uko ibiganiro n'inama zifatirwamo ibyemezo bitandukanye bikomeye bishobora kugira uruhare mwiterambere ry'igihugu cyangwa se iryumuryango runaka.

Umuhanda wa kaburimbo harimo haragenderamo imodoka nini ya dayihatsu sibyo gusa kandi ikunda kwifashishwa cyane cyane nko ku bacuruzi iyo bagiye kurangura kuko bafite ibintu byinshi irabafasha mu kubatwaza harimo kandi n'indi modoka ntago twayita imodoka ni mu bwoko bw'amapikipiki iba ikunda gutwara ibintu byinshi bitandukanye nko ku bacuruzi kandi yanditseho na nomero ya telefone nko mu gihe ukeneye nk'iyi modoka cyangwa se ubwoko bw'pikipiki wabahamagara rwose bakagufasha.

Umuhanda wa kaburimbo warimo uragendamo imodoka yo mu bwoko bwa daihatsu, izi modoka zikunda kwifashishwa cyane cyane, iyo umuntu agiye kwimuka, kugira ngo atware ibintu bye byose byuzuye, nta kibazo kandi bitangiritse, ikunda kandi kwifashishwa by'umwihariko, nko mu gihe abacuruzi bagiye kurangura ibintu byinshi bike bitandukanye.

umuhanda wa kaburimbo hakurya y'umuhanda hari ibiti by'ubwoko bugiye butandukanye ibi biti biba byiza cyane rwose kuko bitanga umwuka mwiza n' ubwiza karemano sibyo gusa kandi mu muhanda wa kaburimbo harimo haragenderaho imodoka nini dukunda kwita ikamyo mu gihe rero ibinyabiziga birimo biragendera muri uyu muhanda bigahura n'ikinyabiziga cy'imodoka nini cyangwa se ikamyo biba byiza kugabanya umuvuduko kugirango hirindwe impanuka za hato na hato kuko imodoka iba ari nini cyane .

Ahantu hari urugendo n'uruza rw'abantu benshi cyane batandukanye, si ibyo gusa kandi hari n'amamodoka y'ubwoko bwinshi, hano hantu twahagereranya nko muri gare kuko ni ho haba hari abantu bashobora kuza gutega imodoka, cyangwa se bakanahakora serivisi zitandukanye, hari umugabo wambaye umupira, bishoboke ko ashobora kuba akata amatike y'abantu baba bagiye nko mu ntara.

Ubwoko bwamamodoka yamavatiri aparitse ahantu runaka, hari iparitse mumuhanda wabanyamaguru indi iparitse mumuhanda wakaburimbo. Mwene ububwoko bwimodoka bwanditseho yego, ni amamodoko akunda cyane gufasha abantu mukubavana ahantu runaka babajyana ahandi. ukaba wifuza gukorana nabo wabareba kumbuga nkoranyambaga ukareba nimero bakoresha ukabahamagara, ukaza ufashwa rwose mugihe ugiye ahantu runaka muburyo bworoshye kandi bwihuse.

Ikamyo nini cyane ifite amapine umunani ku gice cy'inyuma nandi ku gice cy'imbere, ipakiye imizi itwikiriye n'ikarito'icyatsi kibisi, iyo karito ifashwe n'imigozi kugira ngo ibikoresho biri imbere bitagwa cyangwa ngo byangirika mu gikamyo iri mu rugendo. Urebye ku ruhande biragaragara ko iyi kamyo ishobora kuba ipakiye ibintu biremereye cyangwa binini, bikenerwa mu bwubatsi, inganda cyangwa ibindi bikorwa bikenera ubwikorezi bw'imizigo minini. Uburyo imizigo yatwikiriwe butanga igitekerezo cyoukoshobora kuba birinzwe ku buryo itangizwa cyangwa n'imvura ivumbi cyangwa izindi mpamvu zo hanze.

Umuhanda munini bigaragara ko ari umuhanda wo mu mujyi hamwe n'imodoka zitandukanye. Harimo ikamyo ifite igice cyo hejuru gitwikiriye n'utundi tumodoka tuyikikije hari abantu benshi bari ku ruhande rw'umuhanda bamwe basa n'abacuruza cyangwa aba bafite ibikorwa bitandukanye. Hari inyubako nyinshi ziri inyuma zimwe zifite ibara ry'uburu n'izindi zitandukanye hanyuma bikagaragara ko ari ahantu h'ubucuruzi cyangwa ibiro bitandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo harimo imodoka nini dukunda kwita igikamyo hakaba hari n'ipikipiki hanyuma rero muntu utwaye ipikipiki turimo turabona ko yegereye cyane ino modoka nini hashobora kuba hari amahirwe manini y'uko yakora impanuka, ni byiza rero cyane ko hagati y'ibinyabiziga byombi haba harimo umwanya ugaragara kuburyo impanuka nyinshi nk'izingizi zirindwa.

umuhanda wakaburimbo hari imodoka ebyiri birimo biragaragara ko imwerimo irajya aho indi ivuye hanyuma rero izo modoka zose n'ubwoko bumwe turimo tubonazo modoka nini cyane dukunda kwita ibikamyo izi modoka akenshi zikunda kwifashishwa mu gutwara imizigo igiye itandukanye harimo amaissance ndetse n'ibindi bicuruzwa byinshi cyane bitandukanye harimohanda kandi aba abanyamaguru aho abantu barimo baragenderamo kandi biba ari byiza kubahiriza amategeko y'abanyamaguru kugirango utaza guhura n'impanuka.

Umuhanda wa kaburimbo . Hakurya y'umuhanda hagiye hari ibiti bitandukanye, bitanga ubwiza karemano ndetse n'umwuka mwiza. Si ibyo gusa kandi umuhanda harimo haragendamo ibinyabiziga bitandukanye, aho harimo imodoka y'umweru y'ivatiri ndetse n'amapikipiki yagiye ahetse abantu. Hari kandi n'agahanda k'abanyamaguru, hari umunyamaguru turimo turahabona. Ni byiza ko waba utwara imodoka cyangwa utayitwara wubahiriza amategeko n'amabwiriza yo mu muhanda kugira ngo hirindwe impanuka zitateguwe.

Umuhanda wa kaburimbo urimo uragenderamo imodoka nini cyane dukunda kwita bisi, ni iy'ikigo cy'amashuri bigaragara ko itwara abana ibajyana ku ishuri ndetse ikaba yaza no kubavana ku i ishuri ibat mu ngo zabo. Si ibyo gusa kandi hakurya y'umuhanda hajye hari ibiti n'ubusitani bwiza butanga umwuka mwiza ndetse bugaragaza neza cyane ishusho y'ibidukikije biragaragara neza cyane rwose ko nari mu mujyi wa Kigali n'isuku yayo irigaragaza.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, harimo igare, ubwoko bw'amamodoka butandukanye, amapikipiki, si ibyo gusa kandi hari n'umuntu utwaye ingorofani. Hanyuma hakurya y'umuhanda turabona inyubako, hejuru hagiye hasizemo amarangi agaragaza ibendera ry'u Rwanda. Ahantu nk'aha kenshi uba usanga bacuruza esanse, mu gihe utwaye imodoka yawe, esanse ikagushiranaho mu nzira, ushobora kuhegera bakagushyiriramo esanse, hanyuma ugakomeza urugendo rwawe nta mpungenge.

Imuhanda wa kaburimbo urimo ubwoko butandukanye bw'amamodoka hanyuma kandi hakurya y'umuhanda hagiye hari ibiti bitandukanye ndetse n'inyubako. Rero buri muntu wese utwara ikinyabiziga aba abizi neza cyane ko agomba kugendera mu kaboko ke k'iburyo nk'uko izi modoka zirimo zirabigenza.

Umuhanda wa kaburimbo urimo uragenderamo amapikipiki abiri, birimo biragaragara ko ipikipiki imwe ihetse umuntu indi ntawe ihetse. Zirimo ziragendera mu byerekezo bimwe, kuko mu busanzwe no mu mategeko y'umuhanda, ikinyabiziga kiba kigomba kugendera mu kaboko kacyo k'iburyo, ni na yo mpamvu birimo biragendera ahantu hamwe kuko birimo biragendera mu cyerekezo kimwe.

Umuhanda wa kaburimbo harimo imodoka irimo iragenderamo y'umweru ni ya modoka ifite imyanya ibiri imbere ahandi ari ahantu hamenyerewe gutwara ibintu hanyuma ahantu hakunda gutwarwa ibintu hicayemo umuntu, si ibyo gusa kandi hakurya y'umuhanda hari umuhanda w'abanyamaguru aho harimo abanyamaguru barimo barawugenderaho kandi hakurya y'umuhanda hagiye hari ibiti ndetse hino y'umuhanda hari n'umuferege, ni byiza cyane ko ibiti bigenda biterwa mu mihanda no hakurya yaho kuko bitanga umwuka n'umuyaga mwiza.

Umuhanda wa kaburimbo harimo ibinyabiziga bitandukanye, harimo ikinyabiziga ikigare, hari imikino ikinyabiziga cy'ipikipiki harimo n'ikinyabiziga cy'imodoka, hanyuma rero ipikipiki irimo inahetse umuntu, si ibyo gusa kandi hakurya y'umuhanda hari ibiti, ndetse iyi hino y'umuhanda hari n'umuferege ukunda gucamo amazi. Akenshi ikintu uyu muferege uba umaze ni ukugira ngo mu gihe haguye nk'imvura nyinshi yamaze ataza kuza kwangiza ibikorwa remezo, harimo n'imihanda.

Imodoka nini ebyiri ziparitse ahantu umujyi wa kigali dukunda kuzita bisi, aho zitwara abantu benshi batandukanye zibavana mu gace kamwe zibajyana mu kandi gace turabona abantu kandi bajye bahagaze hagati y'ayo mamodoka. ni byiza rero ko rwosejyi wo mu mujyi wa kigali wegera icyapa cya bisi cyangwa se kizi imodokadoka nini kugirango igutware itaza kugusiga.

Imodoka nini cyane ikunda gutwara abantu by'umwihariko zikunda gukoreshwa mu mujyi wa Kigali imodoka zitwara abantu mu bice bike bitandukanye zitwara abantu benshi bagiye ahantu hamwe ahoza uba ufite ikarita uka ugakoza ku cyuma hanyuma amafaranga akavaho ukinjiramo hanyuma bakagutwararwa kugeza aho ugiye, si ibyo gusa kandi n'abagenda bahagaze turabona imbere umunyamaguru cyangwa se umugenzi ufite igare uri kugendera mu muhanda w'abanyamaguru.

Imodoka nini cyane dukunda kwita ibikamyo cyangwa se rukururana. Zirimo ziragendera mu byerekezo bimwe, hanyuma imodoka nk'izigizi zifashishwa cyane cyane mu buhinzi, mu bwubatsi, cyangwa se no mu bucuruzi mu gihe ufite ibintu byinshi bigiye bitandukanye imodoka isanzwe itatwara. Nk'urugero rworoshye nko mu bwubatsi, izi modoka zishobora kugutwarira imifuka itabarika ya sima kandi bikagenda neza izo sima zikagera iyo zigiye mu mahoro.

Imodoka nini dukunda kwita bisi mu Rwanda iparitse mu muhanda w'igitaka hakurya y'umuhanda kandi hari ahantu hahanamye hameze nko ku musozi ndetse hari n'ibiti wagirango ni mu ishyamba, iyi modoka rero ikunda gutwara abantu benshi hari aba bari kugenda bahagaze ndetse na bari kugenda bicaye yoroshya ibintu rwose, yoroshya urugendo mu buryo bw'imitwarire cyangwa se mu buryo bwo koroshya umubare munini w'abagenzi bitewe n'uwo mubare w'abo itwara.

Umuhanda w'igitaka urimo uragenderamo amamodoka atandukanye sibyo gusa kandi hakurya y'umuhanda hagiye hari ibiti bigaragara ko aha hantu hari amahumbezi ndetse n'akayaga, hanyuma rero ino modoka turimo turabona hagati iri mu ibara ry'ubururu n'imodoka ishobora gutwara imizigo cyangwa se ubutumwa runaka ibuvana ahantu hamwe iburyana ahandi.

Umuhanda wa kaburimbo hagiye kandi ku ruhande hagiye hariho ibiti bigiye bitandukanye n'umuhanda w'abanyamaguru, ibi biti biba byiza cyane ku banyamaguru kuko iriruka batambuka rwose bumva umwuka mwiza, harimo imodoka nini cyane kandi irimo irahagenderamo dukunda kwiyita bisi ikunda gukoreshwa mu mujyi wa kigali aho itwara abantu benshi cyane batandukanye bagiye mu cyerekezo kimwe kuko iyo modoka igira imyanya yo kwicaramo ndetse n'iyo abantu bagenda bahagaze.

Umuhanda wa kaburimbo harimo umumotari urimo urawugenderamo sibyo gusa kandi hakurya y'umuhanda hari umuhanda w'abanyamaguru ni inyubako bigaragara ko ari inzu nini ya etage kandi igira izitiye harimo n'indabyo nyinshi zigiye zitandukanye umuhanda, rero ni ikintu abantu tugakwiye kumva ko twese kitureba kitareba batwara ibinyabiziga gusa kuko nitumenya ibi bintu tuzamenya ko tugomba kubahiriza amategeko y'umuhanda hanyuma tugabanye impanuka zitateganyijwe.

Umuhanda wa kaburimbo si ibyo gusa kandi hari umuhanda w'abanyamaguru hagiye harimo amabuye cyangwa se amatafari yamapave, aho abanyamaguru bagendera mumohanda w'imodoka zitandukanye zirimo ziragenderamo arikomurabibona ko hagati y'imodoka ya mbere n'imodoka ya nyuma nta mwanya munini urimo ni byiza rero ko hagati y'imodoka imwe n'inda bari mu mwanya kugirango ngo hirindwe impanuka za hato na hato.

Imodoka ebyiri nini rwose ziparitse ahantu, ni imodoka nini zitwara umubare mwinshi w'abantu, hanyuma zanditseho ijambo ritiko, izi modoka rero zitwara umubare mwinshi w'abantu benshi cyane kandi mu buryo bworoshye, aho zibavana ahantu hamwe zibajyana ahandi nk'urugero nkiyo uvuye mu mujyi wa Kigali ukajya mu karere ka Musanze mu majyaruguru akenshi ukunda kugendera mu modoka nk'izi ngizi kandi ziba zitekanye.

Amapikipiki atandukanye aparitse ahantu si ibyo gusa kandi harimo haragaragara n'umuntu wambaye ishije bigaragara ko ari umumotari. Hanyuma rero amapikipiki ari mu bwoko butandukanye, hari nk'iri imbere rwose biragaragara ko ikoresha batiri, hari n'izindi zigiye ziri inyuma. Hanyuma rero amapikipiki akoresha batiri ni ukuvuga ngo iyo ashyizemo umuriro, mujya kuri sitasiyo aho bashyirishirizamo esanse bakabahereza batiri yuzuye, mugasiga itarimo umuriro. Ayandi rero mapikipiki asanzwe yo akoresha esanse.

Imodoka nini itwara abagenzi yo mu bwoko bwa bisi, ifite ibara ry'ubururu n'umweru iri kugenda ku muhanda, ku ruhande rw'iyi bisi kandi handitse amagambo agaragaza ko serivisi yayo iboneka mu bihugu makumyabiri na birindwi bya Afurika, inyuma yayo kandi hari ibiti birebire, ubusitani butoshye ndetse n'uruzitiro rutwikiriye igice k'inyuma gishobora kuba ari ahantu hubakwa cyangwa harinzwe, hanyuma ku ruhande rw'iburyo hari igice cy'imodoka nto ishobora kuba iparitse cyangwa na yo iri mu muhanda.

Amamodoka menshi agiye aparitse kandi hari abantu benshi cyane bacicikana birimo biragaragara ko hano hantu hashobora kuba ari muri gare, aho abantu benshi bahahurira baje gutega amamodoka abavana mu cyerekezo kimwe abajyana ahandi, hari n'abahahurira kandi baje guhaha, hari n'abahahurira baje gukora serivise zitandukanye z'ubucuruzi.

Umuhanda wa kaburimbo harimo imodoka kandi nini cyane y'umweru dukunda kwita cyane igikamyo, imodoka nk'izi ngizi cyane bazifashisha mu gutwara imizigo igiye itandukanye, aho ushobora gukenera nko gutwara urugero nk'amatungo yawe wenda tuvuge nk'inkoko nyinshi cyane mu gihe ukora ubucuruzi bwazo ushobora kwifashisha ino modoka rwose mu kuba yagutwaza.

Umuhanda wa kaburimbo' muri uwo muhanda harimo imodokamerara hatambuka iyi modoka n'ubwoko bw'imodoka muri zimwe zikunda gutwara imizigo, hanyuma hakurya y'umuhanda hari umuhanda w'abanyamaguru aho hari umuntu urimo uraranahatambukamo . Si ibyo gusa kandi hari n'ibiti hakurya y'umuhanda buriya ibiti ni byiza kuko bitanga umwuka nk'abanyamaguru iiyo batambutse hano bibahereza umwuka mwiza kandi baba birimo biranagaragara neza.

Umuhanda wa kaburimbo urimo uragenderamo imodoka nini dukunda kwita igikamyo , igikamyo rero ni imodoka nini igenewe gutwara ibintu biremereye cyangwa byinshi ibikamyo bikunze gukoreshwa cyane cyane mu nganda, mu bwubatsi ,mu buhinzi no mu gutwara ibicuruzwa hagati y'uturere cyangwa ibihugu sibyo gusa kandi igikamyo kinini gishobora gukoreshwa mu kugeza ibicuruzwa bivuye ku ruganda bigashyirwa mu maguriro cyangwa bigakwirakwizwa mu gihugu hose .

Umuhanda wa kaburimbo, imbere y'uwo muhanda hari umuferege cyangwa se umugende, uyu mugende akamaro kawo ni ugucamo amazi nk'urugero nk'igihe haguye imvura nyinshi, hacamo ayo mazi kugira ngo imvura nyinshi itaza kuza kwangiza ibikorwa remezo, si ibyo gusa kandi mw'uwo muhanda harimo imodoka nini itukura, iyi modoka ikunda gukoreshwa cyane mu bwubatsi, igihe irimo iratunda nk'umucanga cyangwa amatafari cyangwa amabuye.

Umuhanda w'abanyamaguru bagenderamo hakaba hari n'umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka y'umutuku, dukunda kwita kuri imodoka zikunda gutwara imizigo, imodoka nk'izo ushobora kuzikoresha mu bwubatsi wenda ushaka gutwara nk'amatafari cyangwa umusenyi zitwara byinshi cyane, zikabikugereza aho ushaka kubaka, kandi mu buryo bworoshye batanaguhenze.

Ahantu hatemerewe kugendamo imodoka mu ndimi z'amahanga dukunda kwita ka firi zone ni ahantu hahariwe abanyamaguru abakoresha amagare cyangwa bakoresha siporo zitandukanye aho imodoka zitemererwa kugenda kugira ngo harusheho kubungabunga umutekano kurenngera ibidukikije no guteza imbere ubuzima bwiza nk'urugero mu mujyi wa kigali hari ahantu rwose dukunda kwita ka furi zone cyangwa se ahantu imodoka zitagendera aho hafasha abantu kugenda n'amaguru batekanye no gukora siporo zitandukanye nta modoka zibabangamiye.

Agace katagerwamo imodoka turabona abantu benshi baratambuka hari abarimo baragenda mu cyerekezo cy'iburyo hari n'abarimo baragenda mu cyerekezo cy'ibumoso .S'ibyo gusa kandi haba hari udutebe abantu bicararaho bari kuganira hari n'inyubako nyinshi zigiye zitandukanye .Ahantu ushobora kuba ufite umushyitsi ukaba wagenda mukajya kwicara mukaganira, ufite umukunzi mukagenda mukicarayo mukaganira kandi bikagenda neza cyane kuko nta rusaku rwama modoka ruba ruhari.

Ahantu hateguwe neza cyane hameze nko ku mikino cyangwa ku kibuga cy'umupira, hashobora kandi kuba hari ibintu byinshi bigiye bitandukanye bikorerwa, hari ubwatsi butoshye bwitaweho neza, ibiti bitandukanye ndetse n'ahantu hihariye hafite igikuta cy'amabati aho abakinnyi bashobora guhagurukira cyangwa bakore imyitozo, hari umuhanda hafi aho kandi ugaragaraho ibyatsi byatewe neza, ku nkengero zabyo ndetse n'amatara amurika neza.

Imbuga nini cyane isashemo amatafari agezweho, haruguru y'iyo mbuga hari inyubako igiye iteyemo inkingi, inyubako nk'izi ngizi dukunda kuzisanga nk'ahantu mu nzu mberabyombi, tukazisanga kandi nk'ahantu ku ma sitade, inyubako nk'izi zikunda kuberamo imikino igiye itandukanye, harimo imikino y'imipira harimo, harimo ihuriro ry'ibintu bigiye bitandukanye, harimo kandi n'ikoraniro, harimo, n'urugero kandi hakunda kuberamo nk'ibintu by'amadini cyangwa amatorero ndetse n'ibintu by'abahanzi.

Ibyatsi byiza cyane kandi bitoshye, bigiye biri ahantu mu kibuga cyangwa se mu mbuga nini cyane. Ahantu nk'aha ngaha ni heza cyane ku matungo, by'umwihariko nk'Inka, ushobora kuzirongora, ukazijyana kunywa amazi, zagaruka zikaza zikabyagira ahantu nkaha, kandi zikaruhuka neza rwose.

Umuhanda wa kaburimbo, hanyuma kandi hagiye hari ubusitani burimo indabo z'ubwoko butandukanye, harimo n' ibiti dukunda kwita imikindo bitanga ubwiza nyaburanga ndetse n' isuku byerekana ko ari nko mu mujyi wa Kigali. Hari n'icyapa kandi cyerekana nko mu gihe utwaye imodoka, iyo ugeze ahantu nk' ahangaha uba ugomba kuzenguruka ntabwo ushobora guhita ujya mu cyerekezo warugiyemo.

Icyapa cyerekana ikimenyetso cy'umuhanda cyerekana ahantu umuhanda uhurira n'indi mihanda mito ku mpande zawo. Iki kimenyetso kandi cy'umutake w'icyubahiro gisobanura ko umuhanda ugenda ariwo ufite uburenganzira bwo gukomeza, mu gihe indi mihanda mito iyinjiramo igomba gutegereza. Ni ikimenyetso cy'uburengerazuba bwo kwitonda kuko abashoferi bagomba kumenya ko hari imodoka zishobora kwinjira mu muhanda cyangwa se mu zindi nzira bavuyemo,

Umuhanda wa kaburimbo urimo uragenderamo amamodoka abiri mu kabokoko k'iburyo. Si ibyo gusa kandi, hari n'icyapa kinini cyerekana ko tugeze mu Karere ka Bugesera. Aka Karere rero ni kamwe mu turere tugize u Rwanda gaherereye mu Ntara y'Iburasirazuba. Ni Akarere kazwi cyane cyane kubera amateka yako, iterambere n'ibihe byiza by'ikirere bigatuma kigira ubuhinzi bukomeye. Si ibyo gusa kandi, habamo ubworozi ndetse n'iterambere, n'ibikorwa remezo bigiye bitandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo ugiye ukikijwe n'ibiti byinshi bitandukanye, hari n'amapoto kandi ariho amatara, si byo gusa kandi hari n'umuhanda w'abanyamaguru, turimo turabona ko hari n'icyapa, amamodoka manini atwara abagenzi aparikamo. Mu busanzwe rero, iyo ugeze kuri iki cyapa, ni amamodoka gusa yemerewe kuhaparika, biba ari byiza gukurikiza amategeko y'umuhanda, tukayubahiriza.

Icyapa cyo mu muhanda cyerekana ko hano hantu hatemerewe kunyura amapikipiki, icyapa nk'iki ngiki gikunda gushyirwa mu muhanda kugira ngo kibuze cyangwa kiburire abamotari kugira ngo bataza kuza kugendera ahantu nk'ahaha kuko bitemewe. Ni byiza rwose ko abantu bose batwara ibinyabiziga bagomba gukurikiza amategeko cyangwa amabwiriza yo mu muhanda kugira ngo hirindwe impanuka zitateganyijwe.

Umuhanda wa kaburimbo kandi iruhande rw'umuhanda hari icyapa cy'umuhanda, kigiye kizengurutswe n'ibara ry'umutuku ndetse n'umweru, hanyuma hakazamo inyuguti ya pa mu ibara ry'umukara ndetse n'akarongo kaberamye gaciyemo mu iyo nyuguti ya pa, ushobora kwibaza ngo iki cyapa gisobanuye iki, biba bishatse gusobanura yuko nta kinyabiziga na kimwe cyemeye kuba cyaparika aha hantu kuko birabujijwe cyane.

Umuhanda wa kaburimbo, hanyuma hakurya y'umuhanda hari ibiti bitanga ishusho y'ubwiza karemano, harimo rero ipikipiki iri kugendera muri uwo muhanda. Ubusanzwe rero waba uri umunyamaguru, cyangwa se utwara ikininyabiziga, umuntu iyo arimo aragendera mu muhanda, aba agomba kugendera mu kaboko k'iburyo, nko ku binyabiziga rwose biba byiza iyo wubahirije iryo tegeko, kuko mu ruhande rw'ibumoso niho bakunda kunyuranamo.

Ikimenyetso cyo mu muhanda kizwi nkatanga inzira, iki kimenyetso gifite ishusho y'urutare rw'impande eshatu, rufite ibara ry'umweru imbere n'akagari gatukura inyuma, iki kimenyetso gisobanura ko umushoferi ugeze aha agomba kugira amakenga akareba neza niba hari ibinyabiziga biri ku muhanda nyamukuru hanyuma agatanga inzira ku binyabiziga biba bifite uburenganzira bwo gukomeza imbere ye, iyo umuhanda utari ubamo imodoka umushoferi ashobora gukomeza urugendo ariko abanje kwemeza ko nta kibazo gihari.

Icyapa cy'ikimenyetso cy'umuhanda gikunda gukoreshwa mu mihanda igiye itandukanye, hanyuma rero ukaba ari nk'umuyobozi w'ikinyabiziga, ukaba uri umushoferi ukagera nk'ahantu hari iki cyapa, biba bishatse gusobanura ko niba uhageze ikintu ukora urazenguruka umuhanda wose, ntabwo ushobora kugendera mu cyerekezo kimwe, kuko bishatse gusobanura ko uba usabwa kuzenguruka, hanyuma rero iyo uri umushoferi ukagera ahantu nk'aha ngaha uba ugomba kubanza ugacana ikinyoteri cy'ibumoso mu gihe ugiye kwinjiramo, hanyuma ugacana ik'iburyo mu gihe ugiye kuvamo.

Inzu nziza cyane rwose y'amagorofa atatu yubatse mu buryo bwiza kandi bugezweho, ku urugi rwo kwinjira igipangu gikomeye gikoze mu byuma bifite ibara ry'ifeza gifite igishushanyo cyiza cy'uburabyo hanyuma rwose biragaragara ko binogeye ijisho. Kuri uru rugi hari n'ikirango cy'umutako bishobora kuba ari ikimenyetso cy'umuryango cyangwa igishushanyo cy'ubugeni igipangu kandi gifatanye n'inkuta zikomeye bigaragaza ko iyi nzu ifite umutekano kandi iteguye neza.

Inzu nyinshi cyane zigiye zisa ziri ahantu hamwe zose zijya zisakaye kimwe zifite amabati amwe kandi zubatswe mu buryo bumwe, ahangaha akenshi dukunda kubibona nko muri gahunda ya leta, aho leta igera ahantu hari imiturire y'abantu bakabona amazu akwiye kubakwa aho hantu hanyuma bagashyiraho igishushanyo mbonera ugasanga amazu yose yubatswe muri ubwo buryo dukunda kuyita imidugudu.

Inyubako nziza cyane ifite ibara ry'icyatsi kibisi ifite amadirishya manini agaragaza igishushanyo kigezweho hari n'igipangu kirinzwe kirimo irembo ry'umukara ndetse n'ikirinda urugo si ibyo gusa kandi ku ruhande rw'iburyo hagaragara urugi rw'icyatsi rufunze iki gishushanyo cyose kandi cyerekana ahantu hashobora kuba ari ishuri ibiro cyangwa se ikigo runaka cy'akazi runaka gatandukanye.

Inyubako ndende rwose dukunda kwita etaje, ni inyubako iteye amabengeza kandi buri wese yakwishimira kurebamo, kandi buri wese yakwishimira kurebamo, hanyuma rero ino nyubako igiye ifitemo ibyumba binini, ibyumba kandi byiza by'amacumbi, aho mu gihe ushobora kuba waje nko mu Rwanda uri umunyamahanga, ushobora gucumbika ahantu nk'aha ngaha, bakaba bagufasha rwose kandi bakaguha ibikenewe byose.

Umuhanda ushashemo amatafari agezweho imbere yacu turimo turahabona inyubako ni inyubako bigaragara rwose ko ari inyubako y'ubucuruzi kuko hejuru turimo turabona inyubako y'akabari ndetse na karabu abantu babyiniramo sibyo gusa kandi hari n'indi nyubako icuruza amakawa mu gihe ukeneye ubwoko bw'ikawa ubwo aribwo bwose wabagana bakagufasha .

Amamodoka abiri ari mu byerekezo bitandukanye, yose kandi arimo aragenda, biragaragara ko arimo aragendera mu muhanda, utuwemo abantu cyangwa se inyubako zitandukanye,. Hanyuma rero ahantu nkaha ngaha , biba byiza iyo umuntu utwaye ikinyabiziga yitonda, kuko atitonze rwose ashobora kuba yahura n'impanuka kandi ikamwangiza.

inyubako ndende cyane kandi nziza dukunda kwite etaje si ibyo gusa kandi iruhande rw'iyo nyubako hari ibiti bitandukanye n'ibyatsi byiza cyane rwose bigaragara neza hari n'umuhanda wa kaburimbo mwene nk'izi nyubako ziba zegeranye n'umuhanda wa kaburimbo ahanini aba inzu z'ubucuruzi cyangwa se inzu zitanga serivisi zitandukanye

Inzu ndende dukunda kwita etaje mu Rwanda, birimo biragaragara ko hari mo imiryango igiye itandukanye, aho hakorerwamo serivisi zitandukanye, izirimo turimo turabona ni aho batanga inguzanyo mu buryo bworoshye kandi bwihuse. Kandi haba hariho nomero zabo za telefone mu gihe ukeneye inguzanyo yagufasha mu bibazo bitandukanye ushobora kubabagana bakagufasha bakaguha inguzanyo mu gihe gito kandi byoroshye bakanakubwira uburyo wazishyura iyo nguzanyo yawe.

Icyapa cya banki ya kigali, ino banki iri muma banki rwose afite abantu benshi bayigana kandi ibafasha neza rwose ntakibazo, n'ukuvungo byaroroshye ntabwo bikiri ngombwa ko wegera ishami rikwegereye kugirango uhabwe serivise runaka, ushobora kubikorera i wawe murugo kuri terefone yawe ukanda akanyenyeri gatatu gatatu kane urwego hanyuma uhagakurikiza amabwiriza.

Uruhurirane rw'imodoka nyinshi cyane sibyo gusa kandi turabona amazu hakurya y'umuhanda bigaragara ko atuyemo abantu, hari ibiti bikikije umuhanda, ibiti nk'ibi rero ni byiza cyane mu buzima bwacu nk'abantu kuko ibiti bitanga umwuka. Ushobora kuba urimo uratambuka nk'aha hantu uri umunyamaguru wakumva umwuka rwose uba mu ibi biti ukumva umerewe neza.

Igice cy'imidugudu y'icyitegererezo iri ku gasozi aho hari inzu zigezweho zifite ibisenge bitukura, izi nzu kandi zifite ubusitani bwita ku bidukikije, ibiti bitandukanye n'inkuta zubatswe mu buryo bugezweho hasi kandi mu kibaya hagaragaramo igice cy'ubuhinzi bigaragaza ko hari uburyo ubuhinzi bukomeje gukorwa mu mijyiinkengero zayo.

Umuhanda w'amabuye amwe agezweho cyane akoreshwa mu mujyi wa kigali aho bigaragara kuri kwinjira mu makaritsiye sibyo gusa kandi hari icyapa cyanditsweho ka na ka za cumi na gatatu sananata bigaragara ari i kigali mu karere ka kicukiro hari ibiti kandi rwose byerekana ibidukikije hakaba n'ubusitani bwiza cyane bigaragara ko ari mu mujyi rwose uteye imbere cyane nka kigali.

Umuhanda wa kaburimbo, harimo haragenderamo abantu batandukanye, amamodoka atandukanye ndetse n'ipikipiki. Hari umugabo kandi birimo biragaragara ko arimo arajya kwambuka muri ya mirongo y'umweru, yagenewe abanyamaguru kwambuka, bava mu gice cy'umuhanda, bajya mu kindi. Biragaragara ko imodoka rwose yahagaze kugira ngo iberekere, uno muntu ugiye kwambuka yambuke. Ni ngombwa rwose ko imodoka zihagarara, zikareka abagenzi bakambuka.

Handitseho irembo ahatangirwa ubufasha ku birebana no kwiyandikisha cyangwa se mu kwishyura imisoro, kwifotoza n'ibindi bijye bitandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo urimo uragenderamo imodoka y'ivatiri y'ubururu, hanyuma rero igice kinini kigaragara, ni igice kigiye giciyemo imirongo y'umweruru, bishatse gusobanura ko ari ahantu abanyamaguru bambukira. Ni byiza rwose ko niba utwara ikinyabiziga ukaba ugeze ahantu nk'aha ngaha waba ubona ko hari umuntu ugiye kwambuka cyangwa utagiye kwambuka, uba ugomba guhagarara kugirango utaza kugira umuntu ugongeramo.

Umuhanda wa kaburimbo munini ucuramye, aho hari umuhanda wagenewe moto cyangwa amagare, hari imodoka nyinshi cyane zirimo ikamyo y'ubururu iri imbere, hamwe n'abamotari bagenda ku muhanda. Ku ruhande hari inzira y'abanyamaguru irimo amapave, hamwe n'akayira gato kegereye kaburimbo gafite umurongo wera, ibimenyetso by'imihanda bigaragara neza cyane rwose, birimo ibara ry'umukara n'umweru ku nkengero z'umuhanda, bikaba bifasha mu gutandukanya inzira z'imodoka ndetse n'iz'abanyamaguru.

Umuhanda wa kaburimbo, harimo agagendamo imodoka z'ubwoko butandukanye, harimo amapikipiki kandi, sibyo gusa ,hakurya y'umuhanda hagiye hari ibiti bitanga ubwiza nyaburanga, ndetse n'umuyaga mwiza ,hanyuma rero hari n'ahantu abagenzi bicara iyo bategereje imodoka, hano hantu ni heza bituma abagenzi izuba ritabica ,kandi bakaruhuka nta kibazo bagize kugeza imodoka ije ikabatwara.

Umuhanda wa kaburimbo urimo uraturukamo imodoka ebyiri mu byerekezo bitandukanye, hari ikerekezo kirimo kiraturukamo imodoka nini, hari n'ikerekezo kirimo kiraturukamo imodoka ntoya dukunda kwita ivatiri, iyo nini dukunda kwita igikamyo, birimo byose birekeza mu muhanda umwe, aho turi kubona ari umuhanda w'igitaka muremure kandi munini, si ibyo gusa kandi hagiye hari ibiti bigiye biteye hakurya y'imihanda, hari n'amazu abantu batuyemo.

Umuhanda wa kaburimbo mu byerekezo bitandukanye, hakurya y'umuhanda hari inzu nini dukunda kwita etaje, inzu nk'izingizi uba usanga zegereranye n'imihanda, uba usanga zitanga serivisi zitandukanye, harimo abantu bakoreramo batanga serivisi nyinshi. Hanyuma rero harimo n'amahuriro y'umuhanda, biba byiza rero iyo abantu batwara ibinyabiziga bitonze iyo bageze mu ihuriro ry'imihanda kuko birinda impanuka zitateganyijwe.

Umuhanda wa kaburimbo hagiye hashushanyijemo imirongo y'ibara ry'umweru, imirongo nk'ingiyi ikintu ibi ishatse kumenyesha ni uko ari ahantu abanyamaguru bambukira, mu gihe utwara ikinyabiziga ukaba ugeze ahantu nk'ahangaha biba byiza iyo ugabanyije umuvuduko bikaba byiza cyane kurushaho iyo uhagaze kugira ngo ubererekere abanyamaguru babashe kuba bakwambuka neza nta ngorane rwose zirimo.

Umuhanda wa kaburimbo harimo haragendaderamo ipikipiki sibyo gusa kandi hakurya yawo hari amamodoka menshi agiye atandukanye hari n'indi modoka rwose yegereye umuhanda imiragenda ihinguka ifite ibara ry'umutuku hanyuma hakurya y'umuhanda hage hari ibiti by'ubwoko butandukanye biragaragara ko none arimo ihuriro ry'umuhanda kandi ahantu hagezwa mu mujyi rwose.

Umuhanda wa kaburimbo, harimo ihuriro ry'imihanda myinshi igiye itandukanye, harimo amamodoka ndetse n'amamoto arimo araturuka mu byerekezo bigiye bitandukanye. Ni byiza rero ko abantu cyangwa abantu batwara ibinyabiziga, twubahiriza amategeko y'amabwiriza kuko mu ihuriro ry'imihanda akenshi hakunda kuba impanuka mu muhanda, ni yo mpamvu biba byiza, iyo ku mpande zombi ari abanyamaguru ndetse n'abatwara ibinyabiziga bubahirije amategeko.

Umuhanda wa kaburimbo hanyuma harimo amahuriro menshi atandukanye y'umuhanda, harimo imodoka irimo iragenda mu muhanda hari n'ibiti byinshi cyane bigiye bizengurutsa umujyi, cyangwa se bizengurutse umuhanda harimo n'amatara rwose arimo aragaragara, akunda kwaka cyane nijoro mu mujyi wa kigali, hanyuma rero harimo haragaragara kandi ko ari ahantu nyabagendwa ahantu hahurira mu modoka menshi atandukanye, ni byiza mu mategeko y'umuhanda kugira ngo twirinde impanuka.

Umuhanda wa kaburimbo harimo haragendamo imodoka nini dukunda kwita igikamyo, harimo haragendamo kandi n'pikipiki itwaye umuntu. Si ibyo gusa hakurya y'umuhanda hagiye hari ibiti bitanga ubwiza nyaburanga ndetse bitanga n'umuka mwiza, hanyuma rero hari akazu kageneweho kwicara abagenzi bategereje amamodoka mu gihe aje kubatwara, mu rwego rwo kubarinda izuba ndetse n'umunaniro.

Umuhanda wa kaburimbo biragaragara ko uri ahantu hari ikiraro, si ibyo gusa kandi hakurya y'umuhanda hagiye hari ibiti byerekana ko ari ibidukikije kuko bitanga umwuka mwiza, hari igare kandi riparitse muri uwo muhanda. Hanyuma rero ku bantu batwara ibinyabiziga biba byiza kumenya amategeko y'umuhanda ukamenya ko aho ari ngombwa ko uhagarara ugomba guhagarara, kandi ukagomba kumenya ko nimba utwaye ikinyabiziga uba ugomba kugendara mu kaboko kawe k'iburyo.

Ibimenyetso byerekana ko ari nimugoroba cyangwa nijoro kuko hari amatara yaka yo mu muhanda. Harimo imodoka n'abamotari bari mu muhanda, bigaragaza ko ari ahantu, hari ubuzima bw'abantu bari mu ngendo. Hanyuma rero, hari umwuka w'ubuzima bwa nijoro mu mujyi kandi n' ubururu bw'ikirere, bugaragaza ko ari igihe cy'umugoroba cyangwa cya nijoro.

Umuhanda wa kaburimbo igice kinini kigaragara ni igice gishushanyijemo imirongo y'umweru, akaba ari ahantu abanyamaguru bambukira mu gihe bagiye kujya mu rundi ruhande rw'umuhanda. Hanyuma rero ukaba utwara ikinyabiziga ukagera ahantu nkaha, biba byiza iyo uhagaze ukabanza ukareba ko nta banyamaguru bashaka kwambuka, niyo baba badahari kandi, biba byiza iyo ubanje ugahagarara ukabanza ukareba ko nta kintu wakwangiza.

Umuhanda wa kaburimbo hari amatara kandi acanye atandukanye menshi, aya matara n'amatara akunda kuba ku mihanda ahantu hose hatandukanye mu gihugu cy'u rwanda by'umwihariko mujyi wa Kigali. Ni amatara abonesha cyane rwose hari kandi ibyatsi bitandukanye hari n'indabyo dukunda kwita imikindo, akaba ari indabo zifite agaciro mu Rwanda zikunda guterwa mu muhanda wa Kigali ndetse no mu mihanda igiye itandukanye bituma imihanda igaragara neza.

Umuhanda wa kaburimbo kandi munini wubatse neza ushasheho amapave kandi utunganyije neza hari imodoka nyinshi z'iterambere zimwe zinjira mu muhanda izindi zibasohokamo hagati mu muhanda hari ibihegwa by'amashyamba moto n'ibindi bitanga isura nziza hari amatara maremare yo ku muhanda agaragaza ko uyu muhanda ukoreshwa cyane cyane nijoro hanyuma bisa ari imwe mu mijyi cyangwa ahantu h'iterambere mu rwanda hashobora kuba mu mujyi wa Kigali.

Umuhanda wa kaburimbo n'ibyerekezo bitandukanye kandi harimo amahuriro menshi y'umuhanda, harimo abamotari barimo baragenderamo iyo mihanda harimo n'umunyamaguru harimo n'ibiti ku ruhande kandi hakurya y'umuhanda, ndetse n'amazu hakurya y'umuhanda agiye yubatse atandukanye abamo abantu, ni byiza ariko twubahiriza amategeko y'umuhanda cyane cyane ku bantu batwara ibinyabiziga kuko rwose kutabyubahiriza bitera impanuka nyinshi cyane by'umwihariko nko mu ihuriro ry'imihanda.